Umugabo uhagaze bahaye indangururamajwi, abantu benshi biganjemo abagore bicaye bambaye imyenda irimo ibara ry' ubururu. Ameza ateretseho uducupa tw' amazi, terefone n' ibitabo.

Ihema ririmo intebe z'umweru, hari abantu bicaye, higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abana, hari abakinnyeye bambaye imipira isa ubururu hari n'abandi bari kubyina.

Umugore uri kuyobora inama yambaye amadarubindi, afite indangururamajwi mu ntoki ze, inyuma hari icyapa cyanditseho tafisa, amarido ari mu ibara ry'umuhondo n'andi asa icyatsi.

Abagabo batanu n'abagore babiri, bari mu nama bafite mudasobwa imbere yabo, n'ibitabo n'amakaramu, ishakoshi, umuryango ufunguye.

Abantu benshi bicaye, ni urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi, bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi, hari kandi n'abashinzwe umutekano, bahagaze.

Abantu batandukanye bari mu nama higanjemo abagabo n'abagore, bambaye imyenda iri mu ibara rya oranje, ameza ateretseho uducupa tw'amazi, ishakoshi, terefone ngendanwa.

Abantu batatu bicaye, abagabo babiri n'umugore umwe wambaye amadarubindi, afite ikaramu y'umweru mu ntoki ze, imbere hari ameza ateretseho uducupa tune tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Abantu batatu bari mu nama, ushinzwe umutekano w'umugabo umwe, n'abagore babiri ameza ateretseho uducupa tw'amazi, ibitabo, umuryango ufunguye, amadarajya.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ze urubyiruko rwinshi abambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'isa icyatsi, icyapa cyanditseho amagambo atandukanye.

Urabona umuntu utwaye ipikipiki, ari ku muhanda wubakishije amabuye yambaye umwenda y'umukara n'ikintu bambara ku mutwe biririnda impanuka.

Abantu biganjemo abasore n'abagore ndetse n'abakobwa bicaye, buri wese ku ntebe ye ari kwandika hari kandi ameza arambitseho igitambaro.

Abantu bari mu nama biganjemo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara ameza azengurutse asa shokora ateretseho telefone, uducupa tw'amazi na mudasobwa.

Abantu bahagaze; biganjemo abagabo, abagore, ndetse n'abakobwa, bafite sheke y'amafaranga bahawe n'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda, miliyoni mirongo ine n'eshatu n'ibihumbi magana kenda, makumyabiri na bitanu.

Abantu bicaye abagabo n'abagore, umuntu uri kwandika, ameza ariho igitabo, intebe ziticayeho abantu ziri mu ibara ry'umukara, insina, umuryango ufunguye.

Abantu bicaye, bari mu nama biganjemo, abagabo n'abagore, ushinzwe umutekano, ameza ateretseho uducupa tw'amazi, telefone n'ibitabo.

Icyapa cyegereye igikuta kivuga ku kigo cy'imiyoborere mu Rwanda hari umugore ufite indangururamajwi, imbere hari igitabo na mudasobwa.

Umuntu wicaye mu nama yateguwe n'urwego rushinzwe imiyoborere mu Rwanda, yabaye ku itariki esheshatu z'ukwa gatandatu, ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, muri hoteli iherereye i Kigali.

Iyi foto ndabona aho abagabo babiri ndetse n'umugore umwe batanga ubufasha muri leta, imbere yabo buri wese afite mudasobwa n'icupa ry'amazi.

Inama y'ikigo gishinzwe imiyoborere mu Rwanda iyobowe n'umugabo wambaye amadarubindi, imbere hari abandi bicaye bamukurikiye, hari kandi n'intebe ziticayemo abantu.

Abagabo batatu bari mu nama, babiri bambaye amadarubindi, imbere yaho hari ameza ateretseho amacupa y'amazi na mudasobwa, inyuma hari icyapa cyanditseho amagambo, kiri mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore, umuzungu ukuze, ameza ateretseho uducupa tw'amazi, impapuro, mudasobwa, akabati karimo ibitabo.

Icyapa cyamamaza ibigo runaka, gishushanyijeho udupupe tugaragaza: umuntu ukora amazi, umwubatsi, umuganga, umwarimu na mudasobwa.

Icyapa kigaragaza urubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro, bifasha abantu gusoresha no kumenyekanisha imitungo yabo itandukanye.

inyandiko igaragaza uburyo bwo kuvugurura imashini ya ibiyemu itangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, ifasha umucuruzi gutanga inyemezabwishyu ku mukiya.

Umunara muremure cyane ufite ibyuma biri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku indangururamajwi wifashishwa utanga amashanyarazi ndetse n'itumanaho.

Iyi foto ndabonaho icyapa kigaragaza kwizihiza umunsi mpuza mahanga w'umukozi mu Rwanda hagamijwe guteza imbere ubuhanga no gutanga umusaruro w'akazi kugira ngo tugire ejo hazaza heza.

Akazu gato kubakishijwe amatafari ahiye gafite umuryango usa ubururu hakikijwe n'ibyuma imbere harimo imashini zitunganya amashanyarazi.

Inyandiko iriho urubuga rwa Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo, ibifuriza kugira umunsi mwiza w'umurimo, kurushaho kuwuteza imbere, no kugira ubumenyi.

Icyapa cyamamaza urubuga rw'irembo hariho umusore ufite ikoti na telefoni mu ntoki ze uri kwishyura cyangwa gushaka ibyangombwa akoresheje urwo rubuga.

Abantu benshi bicaye mu modoka itwara abagenzi ibirahuri birafunguye ifite amarido ari mubara ry'ubururu bamwe bafite mudasobwa abandi bafite telefone mu ntoki.

Icyapa kigaragaza ingengabihe yo kumenyekanisha no kwishyura imisoro, itariki ntarengwa cumi neshanu na mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.

Icyapa gisobanura uburyo bwo kwirinda impanuka ya gaze, mu gihe umuntu atetse ni ukuyifunga mu gihe atekeye mu nzu gusohora icupa ryo hanze y'izu ahantu hari umwuka uhagije kandi agafungura amadirishya.,

Inyandiko iri ku rubuga rw'ikigo cy'ubuzima cyo mu Rwanda, shyiramo nimero za telefone n'imibare ya kodi bigafasha umurwayi kubona ibisubizo.

Irembo, urubuga rwifashishwa mu kubona ibangombwa bitandukanye birimo; icyaemezo cy'amavuko, icy'uko umuntu ari ingaragu, icy'uko yashatse ndetse no kwishyura gutwara ikinyabiziga cy'imodoka.

Inyandiko iri ku rubuga rw'irembo rukoreshwa mu kubona ibyangombwa bitandukanye, birimo icyemezo cy'amavuko cy'uko umuntu ari ingaragu, icy'uko yashatse no kwishyiriraho ibintu bitandukanye.

Umuhanda w'umukara irimo ibinyabiziga bishinzwe gutwara anagenizi inyabiziga bikaba bifite ibara ry'umweru imbere yaho hakaba hari umugabo wambaye agapira kajya gusa umweru n'ipanaro ijya gusa ubururu.

Imiryango ibiri, umwe urafunze, undi arafunguye hicayemo umugore, harimo amadarajya yifashishwa mu gutanga serivisi zitandukanye, zirimo kohereza, kubitsa no kubikuza amafaranga.

Icyapa kiriho ikirango cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro, ndetse na radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Rwanda, hariho kwishyura umusoro w'ipatanti w'igihembwe cya nyuma, itariki ntarengwa mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Urubuga rw'irembo rufasha abantu kubona serivise zitandukanye zirimo; icyemezo cy'amavuko, icyo kuba umuntu yarashingiwe, kwishyura mituweri, konturivasiyo no kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo.

Amazu menshi atandukanye afunze n'afunguye umunara muremure utanga amashanyarazi insina z'ibitoki ndetse n'indabyo.

Umunara muremure ukozwe mu byuma hacamo insinga nyinshi zitanga amashanyarazi. hirya hari amazu ndetse n'amashyamba.

Umuhanda; abantu babiri bari gutambuka; ibiti byinshi; amazu; ipoto rinini ririho insinga z'umuriro, urugo rwubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu benshi bambaye imyenda isa umweru iruhande rw'ibumoso hakaba hari abakobwa gusa, iruhande rw'iburyo hakaba hari umusore n'umukobwa umwe, imbere yabo hakaba hari umuzenguruko w'ameza ari umwenda usa ikigina imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye rinete, iruhande rwe hakaba hari igikapu cy'abamama ndetse na telefone.

Aha hari inzu nziza, ariko idakoreye amasuku neza, ni inzu ifite imiryango, umuryango umwe, ndetse n'idirishya rimwe, umuryango w'umutuku ndetse n'ibirahure by'ubururu, ni inzu iherereye muri Kanzenze, igurishwa kuri miliyoni cumi na zirindwi.

Umuhanda harimo imodoka iri gutambuka, icyapa cyanditseho Kimironko, ipoto iriho amatara, insinga z'amashanyarazi, ibiti n'inyubako.

Amapoto abiri ariho insinga nyinshi zitanga amashanyarazi, indabo, ibyatsi, ibiti, amazu yo guturamo, n'andi akorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Inyubako ndende igeretse gatatu, igizwe n'imiryango myinshi, ipoto rinini rinyuzwaho imiyoboro y'amashanyarazi ,abamotari bahetse abagenzi n'imodoka ziri k'umuhanda.

Imodoka ebyiri zitwara abagenzi, umumotari, abantu babiri; umugore ndetse n'umusore bahagaze ku muhanda, amapota abiri ariho insinga zitanga umuriro, ibiti, hakurya hari inzu.

Iyi foto ndabonaho urugo rufite nimero iharanga, ariyo mirongo itatu. I ruhande rwaho hari ipoto rinini ryifashishwa, mu kunyuzaho imiyoboro itanga amashanyarazi.

Amapoto ane ariho insinga nyinshi zitanga amashanyarazi insina z'ibitoki, ibiti, ibyuma bisize irangi ry'umutuku n'inkingi y'amatafari ahiye.

Ibyuma biriho imashini itunganya amashanyarazi, insinga, amashyamba, ibiti, n'indabo.

Amapoto manini, iminara binyuzwaho insinga nyinshi zigiye zitandukanye zitanga amashanyarazi, inyubako z'ubucuruzi, ibyapa, ibiti.

Igipangu cy'amatafari ahiye ,amatara yo kumuhanda , amapoto ariho insinga z'amashanyarazi , ibiti, indabo n'inyubako ziri hakurya mu ishyamba.

Urugo rwubakishijwe amabati, ibigori, igiti cya voka, insina, umugozi wanditseho imyenda, ipoto riri ku muhanda iriho insinga zitanga amashanyarazi.

Iminara ibiri miremire, n'amapoto bicamo insinga zitanga amashanyarazi, biri mu byatsi, umuhanda ndetse n'amazu menshi atandukanye.

Inzu ifite imiryango ibiri, umwe ufite urugi rukozwe mu kirahuri, ipoto iriho insinga nyinshi, amakoma y'izina yumye n'indabyo.

Umukobwa wambaye impuzankano iri mw'ibara ry'icyatsi n'ingofero mu mutwe, byambarwa n'abubatsi ndetse n'abakora indi mirimo itandukanye. Ari kugora ku tuntu dufasha mu gutanga amashanyarazi.

Inyubako ndende ifite amatafari ahiye amadirishya arakinguye, umuntu ari gutambuka imodoka z'ubwoko butandukanye ziparitse ibiti.

Uyu ni umugabo wambaye imikenyerero, yambaye urunigi mu ijosi. Imikenyero ni imyambaro kera abanyarwanda bajyaga bambara ariko n'ubu turayikoresha kuko n'uyu ni imyambaro y'umuco wacu, arimo aravugira ku ndangururamajwi, inyuma ye hari intebe z'imyeru hari n'icyapa kimushushanyijeho, hicaye abantu bisa nk'aho bamuteze amatwi wumva ibyo ababwira.

SONARWA ni ikigo kimaze igihe kinini hano mu Rwanda cy’ubwishingizi, shinganisha amashuri y'abana bawe cyangwa ubuzima ndetse ushinganishe n'inyubako zawe cyangwa ibinyabiziga.

Inyubako umuryango wayo urafunguye, ifite igisenge kiri mu ibara ry'umutuku, yubakishijwe amatafari ahiye, indabo, imikindo ndetse n'ipoto iriho urutsinga rw'amashanyarazi.

Ivuriro rinini rifite ubusitani burimo ibyatsi, indabo, ibiti, hari abantu bari gutambuka b'abagabo, abagore babiri bahagaze, n'undi umwe wicaye wambaye agatambaro k'umweru mu mutwe.

Abaganga babiri umugore wicaye n'umugabo uhagaze, umurwayi uryamye ku gatanda, utubati turimo impapuro n'ibitabo agacupa karimo umuti usukura intoki imashini zisuzuma abarwayi.

Inyubako ikoreramo ivuriro imodoka ebyiri ziparitse zitwara abarwayi n'indi imwe iri ku ruhande ibiti igipangu cy'amabati y'ubururu.

Abantu babiri bicaye umwirabura numuzungu urigukoresha mudasobwa, televiziyo, agakoresho kabugenewe bashyiramo imyanda, aho gukarabira intoki, amarido, impapuro.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite igikuta kiri mu ibara ry'umweru, imodoka, abantu benshi bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, indabo.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, akazu kubatswe hakoreshejwe ibyuma, karimo ibikoresho bitanga amashanyarazi.

Inyubako itangirwamo serivisi za leta, ifite imiryango myinshi, amadirishya, imbere hari indabo, ikaba ituriye umuhanda.

Umukuru w'igihugu Paul Kagame ari kuyobora inama y'ihuriro ry'ibihugu mirongo itanu na bitandatu ryabonye ubwigenge, ibendera ry'Urwanda ndetse n'abantu bicaye.

Umunyamategeko w'umugore afite ikaramu mu ntoki ze, iruhande rwe hari imfungwa y'umugabo nayo yambaye agapfukamunwa, hari ameza ateretseho agacupa k'amazi.

Abantu babiri, umunyamategeko n'umukiriya we wambaye imyenda iri mu ibara ry'iroza, bambaye udupfukawa, intebe y'umukara, ameza ateretseho mudasobwa, agacupa k'amazi n'akandi karimo umuti usukura mu ntoki.

Umunyamategeko w'umugabo yambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku n'umukara, karuvate n'ishati y'umweru irimo uturongo.

Abacamanza babiri bambaye udupfukamunwa, ameza ariho mudasobwa, uducupa tw'amazi n'irindi ririmo umuti usukura mu ntoki, abanyamategeko babiri bicaye ndetse n'umugororwa umwe.

Inyubako irimo abantu benshi bicaye biganjemo abagabo n'abagore bari kurahira bakoze ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ku ruhande hari undi muntu uhagaze.

Iyi nyubako yicayemo abanyamategeko n'abacamanza, hari n'imfungwa zambaye udupfukamunwa ndetse n'abababuranira. Hari ameza ariho mudasobwa n'ibindi bikoresho.

Abantu benshi bicaye biganjemo abagabo, abagore, abana, hari intebe, undi muntu uhagaze uyiyoboye ufite igitabo muntoki, imodoka ziri kunyura mumuhanda.

Abanyamategeko biganjemo abagabo n'abagore, bamwe baricaye umugore umwe arahagaze, intebe iri mu ibara ry'umukara, ameza ateretseho mudasobwa n' impapuro.

Icyapa kiriho ifoto y'umugabo witwa Fulgence Kayishema, watawe muri yombi, ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Imodoka iri mu muhanda harimo abashinzwe umutekano, imbere harindi iri kugenda, abanyamaguru, inyubako, ibiti n'amatara yo kumuhanda.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

Ushinzwe umutekano uri gutanga amasomo y'uko inkongi y'umuriro izimywa, ameza, abantu bahagaze ku ruhande bafite terefone mu ntoki, ibiti ndetse n'indabo.

Imitaka myinshi igiye itandukanye harimo imitaka itukura ya eyateri ndetse n'uw'icyatsi wa infinigisi imbere yaho hakaba hateretse akabati gacururizwaho, amarinite imbere y'aho hakaba abantu benshi batandukanye harimo uwambaye ijiri ya emutiyene, isa umuhondo hakurya y'aho hakaba hari inzu iriho y'icyapa cya eyateri.

Umugabo w'umusaza wambaye amalinete ishati y'umweru na karavati irimo amabara y'umutuku n'umweru.

Umubyeyi wambaye ibitenge uteruye umwana muto w'umuhungu n'undi umwicaye iruhande uri kumureba, amadirishya, amarido, ibyatsi.

Iyi foto ndabonaho abantu benshi biganjemo abagabo, abasore n'abakobwa aho bagiye gutora umuyobozi uri kwiyamamaza.

inyubako nyinshi zifite ibisenge by'amategura, ibikuta byabyo bisize irangi ry'umweru, bitanga serivisi za leta, abantu bari gutambuka mu muhanda, amahema n'imodoka.

Aho abagenzi banyura, umuhanda urimo imodoka ntoya n'indi iri imbere, amatara indabo, ibiti n'amashyamba.

Aba motari benshi bari kugenda mu muhanda, abafite abagenzi n'abatabafite ,umunyonzi uri kugendera mu ruhande rwahariwe abanyamaguru, igikamyo gisa umutuku n'ibiti biri hakurya.

Imodoka iri kugenda, moto ikoreshwa mu gutwara imizigo, umuhanda w'abanyamaguru, abagenzi bari gutambuka hari n'undi muntu uhagaze.

Imodoka zitwara abagenzi inini n'intoya hicayemo abantu, hanze hari umugabo n'undi ugendera ku mbago, hari umusore uhagaze iruhande rw'abantu batanga ubufasha bwo kubitsa no kubikuza amafaranga, kuri terefone.

Imodoka nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, abantu benshi bahagaze mu muhanda, amapoto, umufuka n'amashyamba,...

Umuhanda ugendamo abanyamaguru n'binyabiziga imodoka itwara imicanga n'ibitaka, imbere yayo hari umunyonzi utwaye igare, hari ibiti, igipangu cyubakishijwe amabuye.

Imodoka ebyiri ziparitse , imwe ni bisi ya Yego itwara abagenzi mu buryo bwiyumbashye, ibendera y'igihugu cy'u Rwanda, inzu ifite imiryango myinshi.

Imodoka y'ivatiri itwara abantu ku giti cyabo, inyuma hari izindi ebyiri, amatara yo ku muhanda ubusitani buteyemo indabyo n'ibiti.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda, imwe ni iyo mu bwoko bwa toyota, indi n'itwara abagenzi mu rwego rwa rusange, hicayemo abantu batandukanye, hakurya hari ibiti.

Umuhanda, abantu babiri bari gutambuka, umugabo n'umugore, umunyonzi, imodoka y'ikamyo itwaye imizigo ibiti ndetse n'amazu.

Imitaka myinshi igiye itandukanye harimo imitaka itukura ya eyateri ndetse n'uw'icyatsi wa infinigisi imbere yaho hakaba hateretse akabati gacururizwaho, amarinite imbere y'aho hakaba abantu benshi batandukanye harimo uwambaye ijiri ya emutiyene, isa umuhondo hakurya y'aho hakaba hari inzu iriho y'icyapa cya eyateri.

Ubwishingizi ni ngombwa nk'uko ubibona. Umwana wawe iyo ugize ikibazo runaka akarwara indwaro udashobora kubona amafaranga yo kuvuza biba ikibazo ariko iyo ufite rwose bukugoboka ibyo bishobora nko kujya kwivuza mu bigo nderabuzima byihariye ugasanga biguciye menshi ariko wabwekana ugasanga baragabanyije.

Umuhanda aho abanyamaguru bambukira imodoka itwara abagenzi mu rwego rwa rusange, hicayemo abantu hariho icyapa kivuga gutanga inguzanyo.

Imodoka eshatu, ebyiri nini ziri mu mabara y'ubururu n'umweru, zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Abantu benshi bari gutambuka, amaduka afite imiryango myinshi y'ubucuruzi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga, imodoka itwara imizigo ndetse n'izitwara abagenzi mu rwego rwa rusange, hicayemo abantu hari umugabo uri kugenda, hakurya hari ibiti ndetse n'amashyamba.

Umuhanda urimo imodoka, umumotari, umunyonzi utwaye ibintu ku igare, abantu bari kugenda, inyubako ndende irimo imiryango ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Urabona umuntu utwaye ipikipiki, ari ku muhanda wubakishije amabuye yambaye umwenda y'umukara n'ikintu bambara ku mutwe biririnda impanuka.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, moto zitwaye abagenzi, ikamyo irimo imifuka, imodoka itwara abantu muburyo bwa rusange, ibiti ndetse n'ikiraro.

Imodoka ziparitse zitwara abagenzi mu rwego rwarusange bajya mu bice by'umugi wa Kigali harimo nka Kicukiro na Kimisagara hahagaze ku ruhande umushoferi ndetse n'umugore.

Umuhanda urimo umumotari n'umunyonzi batwaye abagenzi, hirya hari imodoka ziri kugenda z'ibikamyo zifasha mu gutwara imizigo, hari kandi n'amashyamba.

Inyubako ndende ni hoteri yubakishijwe amatafari, umunara muremure n'amapoto birimo insinga zitanga amashanyarazi, amaduka arimo imiryango ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi, umukarani, abagenzi bari gutambuka mu muhanda, imodoka n'abamotari.

Moto eshanu ziparitse umumotari uhagaze umufuka urimo ibintu uteretse hasi, umusore uri gutambuka mu muhanda, ipoto n'urutsinga by'amashanyarazi.

Inyubako nyinshi ndende abantu bari kugenda harimo abagabo n'abagore, ibyapa byo mu muhanda umumotari utwaye moto utuzu ducururizwamo imyambaro ndetse n'imitako.

Umuhanda wahariwe abanyamaguru uri mu ibara ry'icyatsi ukorerwamo siporo, abana bari ku ruhande, ubusitani, indabo, ibiti ndetse n'inyubako.

Iyi foto ndabona ho icyapa gifasha abatwara ibinyabiziga gukoresha neza umuhanda. Gikikijwe n'ibiti ndetse n'indabo. Ku ruhande hari inyubako zikorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri, harimo umuntu yitwaye, hakurya y'umuhanda hari amashyamba, n'ibiti birimo indabyo zigiye zitandukanye.

Inyubako ndende yubakishijwe amakaro ari mu ibara ry'umweru, ibirahure bisa ubururu, inkingi, ibiti, amatara yo ku muhanda, n'insinga zitanga amashanyarazi.

Amazu menshi yagenewe guturamo, yubakishijwe amatafari ahiye, ibiti, ikigega cy'amazi, ibigori biteye mu murima.

Inyubako nini ifite imiryango myinshi ikurikirana, haherereyemo isoko ricuruza ibintu byo kurya n'ibikoresho by'amasuku, hotel icumbikira abantu, imodoka n'ibindi.

Umuhanda ugendamo abanyamaguru, abagore babiri bicaye, ubusitani burimo indabyo ibiti ndetse n'amashyamba.

Abamotari baparitse, umuhanda uri kunyuramo abagenzi, imodoka, ibiti, inyubako ndende ifite imiryango myinshi, ikoreramo ikigo cyo mu Rwanda gikata amatike n'ishami rya banki.

Umuhanda ugendamo abanyamaguru n'ibinyabiziga harimo umumotari, abantu batatu bari kugenda, imodoka n'inyubako ndende.

Inyubako iherereye i kanombe ifite igipangu cy'amatafari ahiye inyuma yayo hari ibiti hakurya hari amazu acecetse.

Iyi foto iriho agace kahazwi nka kimironko hubatse inzu zitandukany izigeretse, ndetse n'izisanzwe hari ibiti ndetse n'insina.

Umuhanda ibiti biwegereye, abamotari, umuntu wicaye, inyubako ndende irimo imiryango myinshi, n'izindi nzu ziri kuru ruhande.

Inyubako ifite imiryango myinshi. Hamwe hakoreramo iduka ricuruza amatelefone, ivuriro, aho batangira ibikoresho by'ikoranabuhanga, imodoka, ibiti...

Umuhanda urimo imodoka ebyiri, umunyonzi utwaye igare, abasore babiri bari gutambuka, inzu, ibyapa ndetse n'amapoto.

Iyi nyubako ni parike y'inyoni, hari intebe ameza umuryango ufunguye n'undi ufunze, ibiti, imodoka n'indabyo.

Abantu bahagaze n'abandi bicaye bari muri banki, bahabwa ubufasha mu kubitsa no kubikuza amafaranga kuri konti zabo.

Umuhanda w'abanyamaguru n'uw'ibinyabiziga, moto iriho umugenzi, indabyo, ibiti, amapoto, ibyapa, imodoka, inyubako ndende.

Imihanda ibiri, umunyamaguru arimo kwambuka, imodoka irimo kuzaza, amatara yo kumuhanda, ubusitani burimo indabo, ibiti n'amashyamba.

Umuhanda, uruhande abagenzi bakoresha bambuka, ibyatsi, ibiti, ibyapa, amatara, ndetse n'inyubako ihegereye.

Umuhanda nyabagendwa ukikijwe n'amatara ku mpande zaho, ndetse ku mpande z'umuhanda hari amazu atandukanye ndetse n'ibiti byo mu bwoko butandukanye, hakurya hari imisozi.

Umuhanda urimo moto ebyiri imwe itwaye umugenzi kuruhande hari umunyamaguru uri kugenda, ibiti imodoka ziparitse nurugo rufite umuryango usa icyatsi.

Abagabo batatu n'umukobwa umwe bari kwambuka mu muhanda. Abamotari babiri batwaye abagenzi. Imodoka y'ivatiri iri kugenda. Amashyamba, amapoto ariho insinga z'amashamyarazi.

Iyi foto ndabona aho umuhanda w'igitaka uri kunyuramo ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo, hari indabyo zihegereye, hari ingo i zifite urugo rusa umukara n'umutuku, hepfo hari indi nzu ifite igisenge kinini isize ibara risa umweru.

Umuhanda wagenewe abanyamaguru, aho bambukira, abamotari batwaye, imodoka ziri kugenda, amapoto, inyubako zikorerwamo imirimo itandukanye.

Imodoka iri mu muhanda iri kugenda, ubusitani buteyemo indabyo n'imikindo, amatara yo ku muhanda n'ibyapa n'amashyamba.

Abantu bishyize hamwe ntacyabananira, bavuga ko nta muntu wigira umutwe umwe wigira inama yo gusara ariko iyo abantu bateraniye hamwe bagera kuri byinshi kubera ko icyo umuntu atazi abaza mugenzi we hanyuma akamusobanurira.